Ahantu heza cyane hari abantu batandukanye harimo abagore, abakobwa ndetse n'abagabo bafatanye ku ntugu, bigaragara ko bavuye mu cyumba kiberamo inama barimo barafata amashusho kugira ngo babashe kuyaha uwayaboherereje maze amugereho ameze neza.

Ahantu hari abantu batatu, hari umuganga wambaye ishati y'imweru n'agapfukamunwa, hari undi mugore wambaye agapfukanwa k'umweru ndetse n'ishati y'umweru, ari kumutera urushinge gusa inyuma ye, hari undi mugabo ugaze nawe wambaye agapfukamunwa.

Abantu baturutse hirya no hino mu mpande zose z'igihugu, barahagaze, bambaye impuzankano kandi bahagaze mu gisharagati, bari ahantu heza cyane mu busitani, hari n'undi muhungu wicaye wambaye umupira w'umweru kandi bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima baje gufasha abaturage kugira ngo ubuvuzi bubagereho.

Umugore uvuye kuvoma afite indobo ebyiri imwe ni umuhondo ayifite mu ntoki, indi ni umutuku arayikoreye arimo arajya mu rugo ndetse hanitse imyenda mu rugo rwe kugira ngo abashe gukomeza kumesa kandi agire isuku.

Umwana muto cyane w'umukobwa, wambaye imyenda y'umutuku, ndetse afite imisatsi iboshye inweri, ari gukaraba ku mugezi, hari ibase y'umukara, kugirango azabashe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Inyubako iri ahantu heza cyane, harimo abana babiri bicaye, imbere aho hari ameza, usanga umwana umwe yamanitse urutoki, umwicaye iruhande yamwenyuye bose barishimye.

Umwana uri ahantu heza cyane yambaye isandali, yambaye ikabutura y'umutuku arunamye iruhande rw'indobo arimo aranywa amazi yiga hari ibyatsi bimezeze neza arikunywa amazi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza ejo atazabura amazi mu mubiri.

Inyubako nini cyane yateraniyemo abagabo bambaye amakoti; kandi imbere yabo ku meza hari ibirahuri birimo icyo kunywa; bigaragara ko bari kugirana inama ku kintu runaka.

Ahantu hameze neza hari umwana wambaye ikabutura ndetse n'ishati, hakurya ye hari ibyatsi gusa, ni kumugezi afite ibidomoro bibiri bye by'ubururu bimuri iruhande, arimo arakaraba mu ntoki kugira aticwa n'indwara ziterwa n'umwanda.

Inyubako nini cyane yicaye abantu benshi batandukanye by'umwihariko abadamu bafite abana bakiri batoya, baje kwa muganga kugira ngo babashe kuvuza abana babo kuko baje kubakingiza indwara kugira ngo batazarwara indwara runaka.

Icyumba kinini cyane cyakiriye abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'imbaho bafite amakaye barimo barandika, byumvikane ko hari ikintu baje gukora kandi gifite agaciro gakomeye cyane.

Abana bari ahantu heza cyane ku mugezi, ni bane baje kuvoma, hari n'ijerikani y'umuhondo, gusa amazi ari kumeneka hasi, hari n'undi mwana kandi wambaye bote n'agapira k'umutuku, ufite inkoni, kandi hirya yabo hari ibyatsi bimeze nka byabindi kandi ni umweru.

Inyubako irimo abantu benshi batandukanye baturutse hirya no hino gusa ni abadamu ndetse n'abakobwa, baje kugira ngo bashake serivisi kandi babafashe uko bikwiriye buri wese atahe yishimye.

Abagabo babiri bameze nkaho bashaje bari ahantu heza cyane, base bambaye amakoti y'umukara basuhuzanyije, umwe afite ibitabo mu ntoki gusa bose bafite uruhara hirya yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditse.

Ahantu heza cyane hari abantu umwana wikoresha ijerekani hari umugabo uri kumukorera hari n'umugore bahagaze mu nzira ari kureba muri telefone ye, hari abandi bantu batatu bari inyuma umugabo uri gukorera umwana yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ingofero, arimara arareba uwo mugore uri ukora muri telefone.

Ahantu mu gishanga hari uruhombo ruri kuvamo amazi hari undi muntu uri gukaraba mu kiganza kugira ngo abashe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda kuko ari mbi cyane.

Ikigo cy'ishuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano, bafite udukombe kandi bari kuri kandagira ukarabe ziteretse ku meza, barimo baravoma amazi kugira ngo babashe kuyanywa ubuzima bwabo bugende neza.

Urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka amazi, bashyize ku murongo amajerekani, hari umukobwa wegamye ikunzu ndetse abandi bamuhagaze iruhande, baje gushaka amazi kugira ngo bakomeze ubuzima bwabo, bataza kugira ikibazo byakomeye.

Imbaga y'abantu baturutse hirya no hino harimo abagore ndetse n'abagabo, hari na muganga yambaye itabuririya y'umweru n'akana karyamye kasinziriye kamaze kuvuka basetse barishimye ,bigaragare ko barimo gukoma mu mashyi kandi bishimiye umwana uvutse.

Ahantu heza cyane mu kibuga hari abana babiri bamaze kuvoma, umwe yambaye ijipo yambukenyero gitenge, inyuma yaho hari inzu y'ibyatsi gusa yubakishijejwe amatafari ahiye, hakurya yaho hari ibintu by'ibihuru, umwe ari gukorera undi indobo kugirango babone uko bahageza amazi mu rugo.

Umwana w'umuhungu wambaye ipantaro y'ikigina, umupira urimo amabara y'umukara. Yasetse ari gukaraba mu mutwe, kugira ngo aruhuke, kandi adakomeza kubira ibyuya.

Icyumba kinini cyane cyakiriwe ho abantu batandukanye baturutse hirya no hino abagore, ndetse n'abagabo baricaye ku ntebe nziza gusa harimo umugore uhagaze ufite imisatsi wambaye umupira w'umuhondo barimo barungurana ibitekerezo.

Ahantu hameze neza nkaharimo ikibuga, harunze imifuka, hari abagore ndetse n'abagabo, umugore wambaye igitambaro, umukenyero n'igitenge ndetse hari n'undi mugore mbaye igitenge kimwe cy' umutuku, wambaye n'ingofero, bateruye agafuka, abandi bagabo barahagaze bigaragara ko ari agafuka k'umuceri bari guterura kandi bari kubipanga neza.

Inyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi hari abantu benshi baje guhaka serivisi z'ubuvuzi gusa hari umusaza wicaye wambaye wambaye ingofero y'umukara ufite imvi nyinshi, muganga ari kumufasha yamushyizeho igikoresho gipima umuvuduko kugirango abashe kureba umuvuduko uko uhagaze muganga kandi yambaye amadarubindi.

Abantu bari ahantu heza cyane munsi y'igiti ,bambaye ingofero z'imyeru ,ndetse n'abambaye imipira y'imyeru ,gusa hari, abandi bambaye imipira yubururu, harimo n'umuzungu ufite icyapa cyanditseho ko ari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Ahantu heza hari abadamu batandukanye, harimo umudamu wambaye ishati y'umweru, afite indobo z'ubururu ndetse n'imituku, haruguru yabo hari abandi badamu bahagaze, barimo baraterura indobo irimo amazi, kugira ngo bayajyane bayakoreshe, batazaterwa n'umwanda wo kudakaraba.

Umwana w'umukobwa uri ku mugezi yambaye ikabutura ndetse n'ishati, arimo arakaraba yazanye ibidomoro bibiri ku mugezi kugirango abashe kuvoma amazi ayajyane mu rugo.

Umwana w'umukobwa uri ku mugezi yambaye ikanzu y'umutuku arimo arakaraba mu ntoki kandi yamwenyuye, ari gukaraba kugira ngo akomeze kwirinda indwara ziterwa no kudakaraba.

Abana bari ahantu heza cyane, harimo umukobwa n'umuhungu, umukobwa yasetse afite amenyo y'umweru, bose bambaye imyenda y'umutuku gusa umwana umwe ari gusukira undi amazi mu ntoki, afite igikombe kirimo amazi, aragira akaba intoki ze zise neza atazicwa n'umwanda.

Abantu bicaye ndetse imbere yaho hari imitimu y'amazi, bafite amakayi gusa ba bafite n' amakaramu hari ikintu runaka cyabahurije hano barimo barakiganiraraho kugira ngo bakibone igisubizo.

Umwana uri ahantu ku mugezi yambaye agapira ku mutuku, afite igikombe arimo aravoma amazi yamwenyuye, arishimye kandi aho umuntu avoma amazi mu gihe afite inkota kugirango ayikire.

Inyubako nini cyane irimo abagabo n'abagore bahagaze, abo bambaye amakoti barimo barafata ishusho kugira ngo babashe kuyoherereza ababatumye kuko iyo abantu bahuriye ahantu ari benshi babasha gufata ishusho kugira ngo bagire urwibutso.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu batatu barimo umudamu uteruye akana kambaye umupira w'umweru, ndetse hari n'undi uhagaze wambaye itaburiya y'umweru, yasamuye akana arimo aragasuka imiti kugira ngo katabasha kugumya kurwara kandi akavure neza.

Inyubako nini cyane yateraniyemo abantu benshi batandukanye abagore, abagabo ndetse harimo n'abambaye impuzankano, baricaye barimo barumva icyo umuyobozi ababwira, kandi hari n'abafite amakayi barimo bandika.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu batandukanye baturutse hirya no hino hari abagabo abagore baricaye inyuma yahovitormugabo wambaye umupira w'umuhondo numugore wambaye umupira wumutuku imbere y' bantu hari udupapuro ndetse no mitiimirima amazi bigaragara ko hari inama bajemo bari kumva icyo umuyobozi ababwira.

Abantu bari ahantu heza cyane hari n'icyapa cyanditseho, gusa bambaye impuzankano, hari n'umukobwa bifashe mu mayunguyungu, hari n'undi wegamye ku cyapa, iruhande rwabo hari umugabo, hari undi w'umumama ufite imisatsi myinshi cyane.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu baturutse hirya no hino, harimo abakobwa ndetse n'abagabo, n'abasore abenshi bambaye imipira y'umukara gusa bamwe baricaye abandi, barahagaze inyuma yabo bari gufata ishusho barahanrwa cyane kandi abandi rwabazitikiye ,ipapayi bari kugira ngo bafate ishusho baze kuyoherereza aho batumye kugira ngo bamuhe raporo.

Ahantu heza cyane hari abagore bane ndetse n'umugabo umwe, umugore umwe afite agapfukamunwa ku kukoboko yambaye amaherena y'umweru ku matwi afite n'imisatsi, hari undi mugore umuri inyuma ufite agatambaro mu mutwe n'undi umwicaye iruhande ufite ikayi mu ntoki ndetse n'umugabo uri inyuma yambaye ishati y'umweru, undi umuri iruhande tutari kubasha kubona neza bigaragara ko ari ikintu cy'ingenzi ari kubabwira cyiza.

Icyumba kirimo abantu bane harimo umudamu ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umukara ari kureba hirya, kandi umudamu afite indangururamajwi, afite imisatsi yarisukishije ari kubwira abantu ikintu kandi k'ingenzi.

Umudamu wicaye ahantu yicaye ku bitenge ndetse yambaye n'akantu ku kuboko. Gusa yambaye amapingu ku maguru, nta nkweto yambaye bigaragara ko yagize ikibazo runaka bakamwambika amapingu ngo ataza kugira aho ajya.

Umusaza uri ahantu hameze neza cyane, yambaye ishati y'umweru irimo uburongo, yambaye n'ikigofero kinini cyane utamenya ubwoko bwacyo kandi yikenyeje n'umwitero w'umuhondo, afite n'icumu mu ntoki, nta menyo agira yasetse gusa ameze neza nta kibazo afite.

Inyubako ishaje cyane iriho umusaza wicaye umeze nkaho ari kubyina, hirya ye hari undi musore wambaye ishati y'umweru, yicaye ku igare kandi yambaye inkweto z'umukara bigaragare ko umusaza yizihiwe kandi arimo arabyina yishimye.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umweru ndetse umutuku n'ubururu, gishushanyijeho umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umweru, umupira w'umweru ndetse yiteze agatambaro k'umweru mu mutwe, bigaragara ko hari icyorezo ari kwirinda kuko yipfutse umunwa n'amazuru.

Umukobwa wicaye ahantu heza cyane; yamwenyuye, afite amenyo y'umweru ndetse n'imisatsi myinshi. Yambaye ibinigi mu ijosi ndetse n'isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi afite kandi ibikomo ku kuboko kw'ibumoso.

Ahantu hari abantu benshi cyane batandukanye, hari umugabo ufashe umugore we ndetse n'undi muntu na we ufashe umugore bigaragara ko arwaye, umugore yambaye umwitero abandi bari inyuma kandi afite n'inkoni uwo mugabo, bigaragare ko uyu mudamu arwaye ndetse n'imyenda yacitse bari kumushakira ubufasha.

Inyubako nini cyane irimo abantu batandukanye by'umwihariko higanjemo abapolisi ndetse n'abandi bantu basanzwe barimo barifata ishusho kugira ngo babashe gusigarana urwibutso rwabo

Inyubako nini cyane yakiriye abantu batandukanye baturutse hirya no hino by'umwihariko harimo abadamu benshi gusa harimo n'abagabo bakeya, barimo barakoma amashyi barizihiwe barahagaze bigaragara ko hari ibirori bajemo kandi babyishimiye.

Umukecuru wicaye, wasetse, yambaye igitenge ndetse afite inkwi nyinshi cyane ndetse n'isafuriya, yashyizemo inkwi ku buryo umuntu wese ushobora kuza hano ashobora kumugaburira, akamuha ibyo kurya kandi agataha yishimye.

Ahantu hari abantu benshi cyane batandukanye nabagore abagabo ndetse n'a han hari umugabo wica wambaye ikabutura yambaye n'amapingu yambara n'umupira w umutukura kumuha amafoto bigaragara ko hari icyaha yakorewe kumujyana mu kigo ngororamucogangaranga abashe kwitabwaho bagira ubuzima butagira ibyaha.

Icyumba kinini kirimo abakobwa babiri baricaye barimo baraganira, umwe yambaye umupira w'umukara undi yambaye ikanzu y'ubururu imbere yabo, hari ibintu bihateretse kandi bigaragara ko bari kujya inama kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino baje gushaka serivisi bicaye ku ntebe z'umweru, kandi hari abandi bantu bari kubafasha abandi barahagaze ku buryo umuntu wese uje hano abasha kubona serivisi akeneye.

Umugabo w'umwirabura wikuyemo hejuru yasetse cyane, afite amenyo y'umweru, afite umusatsi mukeya kandi afite akadodo agiye kukanyuza mu menyo kugira ngo ashobore kugaca.

Umwana uri ahantu heza cyane yambaye amaherena ku gutwi ndetse yambaye imyenda y'umuhondo, yasamye bari baramutamika umuti ku gihiko afite amenyo y'umweru, umuntu uri kumutamika umuti yambaye ga z'umweru, ari kumuha umuti kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza amuvure akire.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo abaganga babiri, umuganga w'umukobwa ndetse n'umugabo bose bambaye amadarubindi n'udupfukamunwa kandi umuganga w'umuhungu yambaye isaha ku kuboko, naho umukobwa yambaye igikomo ku kuboko, bose bambaye amataburiya y'umukara.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu babiri harimo umugore n'umugabo, umugabo yambaye ishati ndeitse n'itaburiya y'umweru yamwenyuye, umugore afite imisatsi ari ikintu ari kwereka umugabo kugirango abashe kwishima cyane kurusha.

Umuntu wari ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo muganga rimwe yarikuye, aho umuntu wese urwaye amenyo ajya kwa muganga kugirango muganga akure iryo ryinyo ritazongera kumurya.

Umugabo uri ahantu heza cyane yasetse afite akadodo mu menyo, afite amenyo y'umweru cyane bigaragara ko yayakoreye isuku kugira ngo azabashe kwirinda indwara zanduzwa n'umwanda.

Umugabo uri ahantu heza cyane yasetse afite ameyo y'umweruru ndetse yambaye umupira w'umweru afite akadodo gakoreshwa mu koza amenyo kugirango akomeze agire isuku.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi cyane yambaye umupira mo imbere ndetse atwikiraho agakoti gafunguye amapesu yamwenyuye cyane arishimye ku buryo,

Icyumba kinini cyane cyateraniyemo abantu baturutse hirya no hino, bamwe barahagaze abandi baricaye, gusa akenshi ni urubyiruko barimo barafata amashusho kugira ngo babashe kuyoherereza uwabatumye bamugezaho ubutumwa.

Icyumba kirimo abantu babiri harimo umuganga wambaye ga mu ntoki ndetse afite udushumi tubiri, ari kumwe n'umukobwa uryamye wasamye ari gushaka kumukura iryinyo ndetse afite n'imisatsi myinshi.

Umugabo wogoshe ku mutwe gusa afite ubwanwa bwinshi cyane, yasetse yambaye umupira w'umukara kandi amenyo ye n'umweru biragaragara ko yayakoreye isuku ameze neza.

Ahantu heza cyane hari ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda ndetse n'intebe, harimo abantu babiri, umukobwa ufashe umusaza wambaye agapira k'umukara, ndetse arimo aramwigisha gutambuka kugira ngo akomere.

Umuntu uri ahantu mu cyumba aricaye ndetse arimo arakina igisoro, yambaye ishati y'umweru kandi afite intoki zikanyaraye ku buryo bigaragara ko arimo asaza.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu babiri, harimo umukecuru n'umusaza, bose bafite imvi gusa basetse bamwenyuye bigaragare ko bishimye, umukecuru yambaye iherena ry'umweru ndetse yambaye n'umupira w'umutuku, imbere yabo ku meza hari ibinini, umusaza afite ikinini ari kwwereka umukecuru, bigaragara ko bagiye kwivura kandi bakagira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu babiri, barimo umusaza ufite imvi nyinshi cyane, yambaye umupira w'umukara, yambaye amadarubindi, ari kumwe n'umugore nabo bicaye bafite ikaramu, iruhande rwabo kumeza harambitse igitabo n'ikaye ndetse n'ikirahurahure kirimo amazi n'imiti, bari gusobanurira umusaza uburyo azajya akoresha ino miti.

Ahantu heza cyane hari abantu babiri, hari umuganga wambaye imyenda itukura n'agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi, yarisukishije, hari undi mukecuru kandi yamufashe ukuboko, wambaye ikanzu, bigaragaza ko ari kumuvura kugira ngo abashe gukira.

Inyubako cyane yakiriye abantu batandukanye baturutse hirya no hino, baricaye, gusa hari umugore uhagaze, iruhande rwa bo hari ibintu arimo aragenda abaha, hari umusaza kandi nanone uri kuvugira kuri telefone wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Abakecuru batatu bafite imvi kandi basetse bishimye, bafite amenyo y'umweru, bafite terefoni barimo barifata ishusho, harimo umukecuru wambaye umupira w'umweru ndetse harimo uri hagati ni we ufite terefone yambaye umupira w'umuhondo, hirya hari undi mukecuru na we kandi yasetse cyane wambaye umupira w'umweru.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu batandukanye, by'umwihariko harimo umusaza n'umukecuru, inyuma yabo hari abandi bantu batatu bicaye ku meza, kandi umusaza afite amasahani imbere ye n'umukecuru, hejuru y'umusaza hari umuntu uhagaze wambaye amadarubindi, bigaragara ko bishimye cyane kandi bameze neza.

Mu muhanda urimo abantu, barimo umusaza ndetse n'umugabo. Umusaza yambaye inkweto z'umukara ishati y'umweru, ndetse n'agakomo ku kuboko, yambaye kandi ingofero, bafatanye ku rutugu, bose barishimye.

Icyumba kinini cyane kirimo umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri yashyize amaboko hasi amaguru ye yayashyize inyuma afite imvi, yasetse kandi yambaye agasengeri kajya kuba umutuku, ari gukora imyitozo ngorora mubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umudamu wicaye ahantu heza cyane afite imisatsi myinshi kandi y'umweru yambaye isengeri n'ipantaro y'umukara arigukora imyitozo ngororamubiri kuko ukuguru kumwe yaguhinnye ukundi arakurambura agushyiraho amaboko kumwe.

Umusaza uri ahantu heza cyane, yambaye imyenda isa kandi yicaye mu kagare, afite ubwanwa burimo imvi, yasetse afite amenyo y'umweru bigaragara ko yayakoreye isuku.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu batandukanye, harimo umusaza ndetse n'undi mukobwa, umusaza afite umukandara mu nda, yambaye n'umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, barimo baramwigisha kugenda kubera ko yari afite ikibazo, ari kumwe na muganga wambaye imyenda isa, amufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe gutambuka neza.

Inyubako irimo abadamu bateruye abana, buri wese yasetse kandi arishimye, aho bazanye kwa muganga kugira ngo muganga abafashe, batazigera bahura n'indwara zitandukanye.

Icyapa kiri ahantu heza cyane, kiri mu ibara ry'ubururu kandi handitseho amagambo mu ibara ry'umweru n'umuhondo, handitseho ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Icyapa kiza cyane cyanditse mu mabara atandukanye gusa kiri mu ibara ry'umweru gusa hari amagambo yanditsew mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hariho n'akandi kantu kameze nk'a gasabo hantseho ko kwiga ari ugufatanya kandi handitseho ko abana bagomba kwirinda icyorezo cya sida.

Ahantu hari abantu batatu bambaye udupfukamunwa, harimo n'undi wambaye isengeri y'umukara, gusa hari icyapa cyanditseho ko ari raporo yerekeye kovide mu kigo cy'isi gishinzwe ubuzima, baragira ngo rero birinde icyo cyorezo cya kovide cyaje mu kwezi kwa kabiri, bibiri na makumyabiri.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu babiri, kirimo umukobwa wambaye ikanzu ngufiya, afite n'imisatsi yarasukishije, yambaye n'isaha ku kuboko, harimo n'undi musaza wambaye ishati y'umweru na karavati ndetse n'ikoti n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, umukobwa kandi na none yambaye inkweto zihagaze, bigaragara ko bari gufata amashusho.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baturutse hirya no hino gusa abenshi muri bo ni urubyiruko, bambaye imipira y'imyeru n'amapantaro y'umukara, bafite icyapa cyanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare, kuko ivurwa igakira.

Inyubako irimo umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati na karuvati, afite indangururamajwi, arahagaze. Iruhande rwe hari icyapa cyanditseho, ndetse arimo arareba n'insakazamashusho, bigaragara ko hari ikiganiro ari gutanga, ari guha abantu kugira ngo abashe gusobanukirwa neza.

Icyumba cyiza cyane gikorerwamo serivisi z'ubuvuzi harimo umurwayi w'umugore araryamye ku buriri afite imisatsi y'umukara, iruhande rwe hari mudasobwa zikoreshwa na muganga kugira ngo abashe kumenya indwara arwaye kandi amufate n'ibizamini.

Inyubako nziza cyane ziri ahantu hatandukanye, zirimo abantu benshi batandukanye, harimo abakecuru bicaye ndetse n'umugabo umwe ubahagaze iruhande, hakurya yaho hari abandi bantu bahagaze n'abegamye ku gikuta, iruhande rwabo bari mu busitani bumeze neza cyane, bigaragara ko hari serivisi baje gutora kandi bari buyibone.

Inyubako iri ahantu heza cyane, iruhande rwayo hari ahantu ku buryo hari inyubako yakira abarwayi batandukanye, baturutse hirya no hino, inyuma hari icyapa cyanditseho ngo ko ari ibitabo bya Ruhengeri.

Inyubako nini cyane yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda, ameza ndetse n'intebe, kandi ibitanda biri mu mabara y'umutuku, n'intebe zifite mu ifariso y'umutuku, kandi muganga n'ibikoresho yifashisha kugira ngo abashe kuvura umurwayi neza gusa ntamurwayi urimo.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo abaganga, harimo ndetse n'ibitanda by'abarwayi, hari umurwayi uryamye, hari n'umuganga uhagaze ahombaye agapfukamanma gusi nanone hari abandi baganga babiri bambara udupfukamunwa ku buryo umuntu wese uje hano abasha kwivuza kandi ubuzima bwiza.

Inyubako nini cyane irimo abantu batandukanye baturutse hirya no hino baje gushaka serivisi inyubako iteye amarangi y,umweru hari umugabo uhagaze imbere wambaye umupira w'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umweru ipantaro yumutuku ni nkweto z'umukara inyuma ye hari abandi bakobwa kandi imbere ye na none hari undi mukobwa wambaye ikanzu y'umweru n'agatambaro mu mutwe bigaragara ko serivisi bari buzibonemo.

Inyubako nziza cyane iberamo serivisi z'ubucuruzi hashushanyije bakobwa ndetse hariho n'icyapa cyanditseho ko iyo uguze kimwe ndetse ufata n'ikindi cy'ubuntu kugira ngo ejo uzagake

Inyubako nini cyane isize amarangi y'umweru harimo abaganga bane bambaye amataburiya y'umweru umwe acaye n'umugabo abandi barahagaze hari uri kwandika ndetse hari n'umukobwa wifashe mu mayunguyungu bigaragare ko hari ikintu cy'ingenzi barimo bakora.

Inyubako nini cyane yakira abantu benshi batandukanye by'umwihariko abarwayi, harimo umukobwa wambaye impuzankano z'ubururu ndetse harimo n'abandi baganga bambaye impuzankano z'umweru imbere kandi hari abandi baganga bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'uwambaye impuzankano y'umweru kuburyo umurwayi wese baza hano bakamufasha.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibitanda biri mu mabara y'imyeru ndetse harimo n'amarido n'inzitiramibu n'umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru ku buryo umurwayi wese ugeze hano aza akabasha kubona igitanda aryamaho.

Inyubako nini cyane iteye amarangi y'umweru; harimo ibikoresho byo kwa muganga ndetse harimo na muganga; harimo imyanya muganga yicaraho ndetse na mudasobwa akoresha; mu gihe ari gupima indwara umurwayi arwaye.

Inyubako nini cyane yakira abarwayi batandukanye baturutse hirya no hino gusa nta muwayi urimo, harimo ibishushanyo, harimo ibitanda by'abarwayi, harimo n'intebe ndetse harimo n'ameza, harimo n'igikoresho muganga yifashisha kugira ngo apime abarwayi arebe indwara barwaye maze abashe kubavura.

Inyubako nini cyane iri ahantu heza ,kandi hari ubusitani bwiza hari abantu bari kuyijyamo bagiye gushaka serivisi, aho umuntu ava iwabo akajya gushaka serivisi adafite ahandi hantu.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi kuko handitseho ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hari abantu baje kwaka serivisi kandi imbere haparitse imodoka y'umukara ndetse n'izindi z'umweru ku buryo umuntu wese ugeze hano bamufasha.

Inyubako nyinshi cyane ziri ahantu heza, ziteye amarangi y'umuhondo, zifite ubusitani bwiza, harimo abantu babiri, hari umusore wicaye ndetse n'umukobwa, hari n'undi musore ubahagaze imbere wambaye agapira k'umutuku. Umuntu wese ubasha kwinjira muri iyi nyubako, abasaba kubona ubufasha akeneye.

Inyubako nini cyane iri ahantu heza yubatse mu buryo bw'amagorofa kuko igeretse kabiri handitseho ko ari ibitaro byitiriwe umwami Fayisali aho umurwayi wese umeze nabi urembye muganga aza akamufasha akabasha gukira.

Inyubako nini cyane yakira abarwayi benshi batandukanye baturutse hirya no hino, harimo ibitanda by'abarwayi ndetse harimo n'umurwayi uryamye, harimo amarido kandi hari abaganga bahagaze bambaye bitwikiriye ku buryo utababona mu maso.

Ahantu hanze hari abantu babiri umukecuru ndetse n'umusore baricaye, bicaye inyuma y'inzu yubakishije amatafari ahiye, hirya yabo har’urutoki ndetse hari n'indabo, bigaragara ko umukecuru ari kuganira n'umusore kugira ngo agire ikintu amubwira cyangwa amuhe inama z'abakuru.

Icyumba ikorerwamo serivisi zitandukanye by'umwihariko serivisi zijyanye n'ubuvuzi harimo ahantu hatatu, harimo umuganga wambaye imyenda y'umweru ndetse n'agatambaro mu mutwe yambaye amadarubindi n'agapfukamunwa n'umugore w'umwicaye imbere uteruye akana bigaragare ko bakishimiye kandi muganga ari kugafasha kugirarango kamere neza.

Kontineri iri ahantu heza cyane mu cyumba kiza cyane, gifite imiryango n'amadirishya, hariho n'ikindi kintu kimeze nk'agaseke, kandi hejuru yayo iyin nzu birimo irasakaye, ifite amatara ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Inyubako nini cyane y'amagorofa iteye amarange y'umweru, ifite inzugi nyinshi kubera ko hari iziri hasi n'iziri hejuru, imbere yayo kandi hari icyapa kandi iruhande rwayo hari ubusitani bumeze neza cyane.

Icyumba kinini cyane, kirimo abantu batandukanye, harimo intebe nyinshi z'umukara ndetse hiciyemo abantu bake bagera kuri bane, gisize amarangi harimo abakobwa, ndetse n'abahungu, gisize amarangi y'umweru, kandi gifite n'amatara meza cyane, buri muntu wese ukiganye ashaka kwaka serivisi, arayihabwa uko bikwiye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo na mudasobwa muganga akoresha, kiri mubara y'umweru, hari muganga nanone wambaye itaburiya uri kugikoresha, ari kureba uko gikoreshwa kugira ngo ajye amenya kugikoresha neza.

Inyubako nziza cyane iri ahantu heza ndetse ifite n'amasikariye ku ruhande, imbere yaho hari abantu bahagaze kandi na none hari ubusitani bwiza cyane, kandi hejuru yayo ni umweru hari n'ibirahuri bigaragara neza, umuntu wese uyiganye abasha kubona icyo akeneye akakigezweho.

Inyubako iri ahantu heza cyane hari ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo intebe, harimo ndetse n'igishushanyo cy'ijisho, harimo na za mudasobwa muganga yifashisha abasha kureba indwara umurwayi arwaye ubundi akamufasha neza uko bikwiye.

Umudamu uryamye kwa muganga, na we akaba afite ikibazo, ari kumwe na muganga, muganga yambaye itaburiya y'umweru n'amadarubindi, arimo aramufasha kugira ngo abashe kugarura ubuzima bwe adakomeza kuzahara.

Umugabo wafunze ibipfunsi n'amaboko yombi yayahuje, yambaye isengeri, afite ubwanwa bwinshi bw'umukara inyuma yayo hari ibidumoro by'umukara bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze umubiri we.

Inyubako irimo umukobwa wambaye isengeri, ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, afite igitambaro cy'umukara ku rutugu, arimo aranywa amazi, afite imisatsi myinshi ku buryo aho umuntu anywa amazi kugira ngo abashe kugarura intege.

Umugore n'umugabo bari ahantu heza cyane, umugore yambaye isengeri y'ubururu ndetse agakabutura k'umukara. Bose bafite amazi, uwo mugabo nawe yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri bari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Icyumba kinini cyane, kirimo umuryango baricaye, hari akana gato kambaye imyenda y'umweru, n'amasogisi y'umweru, bari kumwe na nyina, karishimye, imbere yabo kandi ndabona n'umukobwa uryamye ku gitanda, bameze neza barishimye cyane.

Umukobwa uri ahantu ku mazi yambaye isengeri y'umweru ipantaro yumukara yamanitse amaboko kandi afite imisatsi myinshi bigaragara ko ri mumyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini cyane kiririmo ikirahure bari gusukamo amazi umuntu uri gusuka amazi afite teremusi nziza cyane, agiye gusuka amazi kugira ngo ayanywe abashe kugira ubuzima bwiza, kuko amazi ni ingenzi mu buzima bwacu.

Ahantu hateretse ibikapu bitandukanye, hari ibikapu bibiri by'umutuku ndetse n'umukara, kimwe kirafunguye n'ikindi kirafunguye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, umuntu ashobora gukoresha mu gihe ahuye n'ikibazo runaka, ubundi akabasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri ahantu aheza cyane, hari ikintu ahagazeho. Yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara ndetse ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze agire ubuzima buzira umuze, ejo hatazavaho yagize ikibazo.

Umukobwa uri ahantu heza cyane bakorera imyitozo ngororamubiri yari yambaye igabutura ndetse n'isengeri y'ubururu n'inkweto z'ubumweru arimo arasunika icyuma afite imisatsi myinshi ariko gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo ibintu bitandukanye by'umwihariko imyitozo ngororamubiri, harimo abantu babiri harimo umukobwa wicaye ndetse n'umusore wambaye inkweto z'umukara n'ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri kandi uwo umusore afite imisatsi afite na tatuwaje. Hirya yabo hari ameza harimo amashuka ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira akunde agire ubuzima buzira umuze.

Icyumba kirimo umukobwa wicaye ku buriri busashemo amashuka kandi yambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umweru, ku gitanda hariho umusego, afite imisatsi miremire, yamanitse amaboko, asa naho arimo arinanura.

Umugabo munini uri ahantu heza cyane, yambaye umupira ndetse arimo kumva indirimbo muri koteri, afite umudimu w'amazi ari kuyanywa, afite ubwanwa, arabyibushye, ari kunywa amazi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi amazi ni ubuzima nk'uko mubizi.

Ahantu heza cyane hari ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, hari ariteri ndetse n'utundi twuma baterura, gusa hari n'imbuto, hari pome, gusa hari na metero nanone n'umudimu w'amazi bifashisha kugira ngo banywe amazi baruhuke ubuzima bugende neza.

Inyubako nini cyane ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hariyo umukobwa wicaye ku gitanda kandi hari n'umusore na none wicaye wambaye agapira k'umukara, arimo arafasha umukobwa yagize ikibazo ku kuguru kugira ngo abashe gukira neza ari kumuzirika bande kugira ngo amufasha arebe ko yacumbagira.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti gakondo, harimo umugabo w'umwisiramu umwe uri gucuruza kandi handitseho akarere ko ari kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo, umurwayi wese uhaganye ashaka umuti barawumuha kandi akabasha kugenda neza.

Ahantu hateretse imbuto nziza cyane hari imineke ndetse n'inanasi nibindi byinshi aho umuntu abirya mu gihe amaze kurya maze akabasha kugira ubuzima bwiza burihe aho ari hose.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ari ahantu mu ishyamba rimeze nk'aho ari ishyamba rya Nyungwe, arimo arashaka umuti kugira ngo agende afashe abarwayi barwaye indwara runaka kandi abavure bakire, bamere neza.

Icyapa kinini cyane kira ahantu heza, hayobowe icupa hari n'abantu bashushanyijeho babiri kandi hananditse ko hari igisubizo ku muryango, havura indwara ziterwa no kurangiza vuba, gucika intege mu gutera, akabariro ingaruka zo kwikinisha ndetse n'ibindi.

Ahantu hari imiti gakondo itandukanye, iri mu tuntu tumeze nk'amasirori, gusa umuntu wese ufite ikibazo araza agahitamo umuti ashaka bitewe n'aho aribwa n'uko yiyumva ubundi uwo muti ukabasha kumufasha.

Icyumba kinini cyane giteretsemo ibikoresho bitandukanye, by'umwihariko ibikoresho by'amacupa arimo imiti itandukanye, imiti y'umuhondo, umutuku, umweru n'ibirahuri, ku buryo umurwayi uwo ari we wese ukeneye umuti aza akavuga umuti akeneye, ubundi akawubona akajya kwivura agakira.

Ahantu heza cyane hari imitera ko iri mu bicupa by'umweru, ku buryo umurwayi uwo ariwe wese, utabashije kugera kwa muganga, aza agafata umuti ashaka bitewe n'icyo arwaye, akabasha gukira.

Ahantu harunze ibikoresho byinshi cyane bya gakondo hari utubindi, uducuma, amabasi, inkoko n'intara, hari n'ibindi bikoresho birunze mu mifuka byinshi cyane, kandi hari akandi kazu k'ibirere kari iruhande rwabyo, bigaragara ko ari inzu za kera.